Ahantu heza ho kuruhukira hafite imitaka yo mu busitani, intebe nziza, icyo kunywa, inzoga zitandukanye, telefone ndetse n'ububati bwiza bwo gushyiramo imyenda y'abantu baje kubasura.

Ifunguro ryiza riteguye rifite ibitoki bigera kuri bitandatu, byose bitetse mu mazi ku isahani y'umweru biteretse ku kabati muri salo.

Inyama nziza cyane ziri muri busheri ifunze cumi n'esheshatu, ziteye ifu cyane ku buryo uwo ariwe wese ashobora kuzigeraho akifuza kuba yazirya ako kanya, ari hamwe n'umwana we cyangwa n'umugore we.

Inzu y'ubucuruzi nziza ifite firigo ndetse na etajeri nziza irimo inzoga zitandukanye z'amoko yose panashi ndetse na virunga, biri mu nzu igana ibumoso bw'ubutayu bwa Sahara.

Abantu batandukanye bicaye ku meza banywa fanta y'ubururu n'umuhondo. Umuntu wa mbere yambaye ishati y'umweru, undi muntu yambaye ishati y'ubururu barishimye cyane, abandi ni abazungu, abandi ni abirabura.

Inzu nziza itatswe n'amatara agera kuri ane ,abiri y'umuhondo ,nandi y'icyatsi, inzoga za shapanye ,intebe z'imvunwa ,ameza akozwe mu biti, urugi rukozwe muri ribuyu, ndetse n'agatanda k'amasahani.

Umucuruzi ucuruza akabari uno munsi yaje yambaye ne, ishati y'umweru, arimo aramurika inzoga ze zigezweho, zimwe zitondetse mu kabati ko hijya, izindi zitondetse mu kabati ryo hino, panashi zo ziri hejuru.

Ameza maremare afite igitambaro kiri mu bara ry'umutuku ndetse n'umweru, ateretse mu nzu itagira itara, aho hariho ibiryo bitandukanye harimo inyama, ndetse n'ibikomoka ku matungo.

Inyubako nini cyane yubatswe n'amatafari ya ruriba ifite urugi rufatanye n'idirisha, bigaragare ko iyi nyubako yigirwamo n'abanyeshuri ndetse bigaragare ko iyi nyubako imaze igihe kirekire yubatswe.

Umugi muremure ufite inzu z'ubucuruzi nyinshi, inzu imwe y'ubururu, inzi indi nzu ifite amakaro ku gikuta ifite imodoka ndende itwara imizigo na gaze zo gutekesha.

Salo irimo intebe nyinshi zisa n'umweru zifite ibifuniko byaba bisa n'umutuku ziri impande ya bare icuruza ibyo kunywa harimo fanta ndetse n'amandazi, i ruhande rw'inzu y'umukara, iruhande rw'ibati ry'ubururu.

Inzu nini cyane ifite ikirango cyanditseho amagare ane ndetse n'amamodoka, ifite amabati ashaje ndetse n'uruzitiro rusa n'umweru, n'amapera mu ndiba zayo ndetse n'indabo nziza cyane.

Inzu nini ya konoshi ifite imitaka ya emutiyene ndetse n' iyateri, ifatanyijweho amakaro ku gikuta ku buryo utabasha kubona niba hari amatafari ya rukarakara cyangwa se mo kimwe amatafari yahiye ayubatse.

Inzu zigera kuri eshatu, iya mbere ifite amagare atatu, rimwe rifite amahembe y'umweru, amashanyarazi, buri nzu yose ifite n'umurasire wumva amajwi aturuka aho umwanzi ari.

Inzu ebyiri z'ubucuruzi, inzu ya mbere iriho icyapa cya mitsingi, inzu ya kabiri iriho icyapa kigaragazako nta nzoga bacuruza, inzu ya gatatu iriho imikindo igera kuri ebyiri ,umukindo wa mbere warumye ,umukindo, wa kabiri ni mubisi ,umukindo wa gatatu urimo uragwaho imvura.

Ibyapa bibiri biri ku muhanda, aho icya mbere gishushanyijeho ikarita y'u Rwanda mu mabara yose, icya kabiri kikaba kiriho hinga wunguke Musanze ofisi, iruhande rwa yo hariho ijambo rya yuwesedi n'ingofero y'abamotari.

Inzu nziza iforomwe nk'urusengero ifite amabara y'umukara iragaragara mubirometero bitanu uvuye kumuhanda, ahateganye n'imodoka n'umukobwa wambaye umupira wumukara, n'ikanzu y'umweru n'inkweto z'ubururu.

Iduka ricuruza amavuta atandukanye rifite ibipapuro byinshi ndetse amasabune ari mu ruhande rwo hepfo naji ziri mu ruhande rwo ruguru zirimo iza oranje na sitoro.

Inzu z'ubucuruzi zisa n'umuhondo zubatswe nka hoteri. Ziri impande ya sako umurenge Gashaki, ahari imodoka nyinshi cyane z'uruvangitiranyazoka.

Inzu ndende ya konoshi ifite icyapa cyanditseho, zeru karindwi umunani mirongo ine nagatatu mirongo itandatu nakane ijana cumi nagatandatu, kiriho amashami ya sipesiyarizingi muri edeni gorifu gesiti house, iruhande rw'ipoto isa n'umweru.

Gare ndende iri ahantu h'icyaro ku nzu z'ubucuruzi, ifite imodoka nyinshi za dayihatsu zihetse gaze zo gutekesha ndetse n'amabati ya emutiyene Rwanda.

Ibiti birebire biri impande y'urusengero n'inzu yo gucururizamo inzoga ifite icyapa cyanditseho sikolo na radiyo y'igihugu y'Akarere ka Gakenke, inzu ya renji rova iruhande rw'inzu itambitse.

Inzu y'ubucuruzi aho mu muryango harimo umucuruzi urimo arakubura, mu idirishya ry'inzu harimo imineke myinshi cyane ,iruhande hariho urugi rufite ibikapu byo kugurisha, imbere yaho hicaye umuntu urimo aranywa itabi.

Inyubako ndende y'amatafari ahiye n'amakaro asa n'umutuku yometse ku gikuta ifite inkingi, iya mbere, iya kabiri, iya gatatu, iya kane n'iya gatanu, ifite igipangu gifite imodoka nziza cyane.

Umugore uhagaze urimo aragenda wikoreye :urukweto rumwe ,imyenda igera kuri cumi n'ebyeri ,harimo amapantaro atandatu, imipira enye, n'igitenge mu bumoso gisa n'ubururu.

Inzu ndende ya etaje ifite ibyapa bigera kuri bine, aho icya mbere kigaragaza indimi bigisha, icya kabiri kikaba cyerekana uko bogosha, icya gatatu kikaba cyerekana imashini bakoresha bogosha, icyapa cya kane kikaba kigaragaza imipira bagurisha.

Ububiko bw'imiti bunyuranye harimo: amogisiline, parasetamoro, roketi, ibipurofene, metelendazoro, karubamezepine, adorate, sayisiline na metakoporamide.

Inzu nini cyane ya kontineri isa n'icyatsi ifite umureko, ifite ibisheke byinshi byo gucuruza, ndetse n'amashu, amakaroni n'ibihaza, hariho umugabo uteruye intebe ayerekeza hirya.

Inzu yo kunweramo inzoga ifite irangi ry'umutuku ndetse n'igitaka, iriho ibyapa bitandukanye icyapa cya mbere cyanditseho metajeni tekinoloji limitedi, icyapa cya kabiri ni icyapa cya pirimusi.

Inzu y'ubucuruzi ifite igare n'umugabo wambaye ikoti risa n'umukara rya pampa, irimo, itereretseho indobo ndetse n'akabase ka kandagira ukarabe, iruhande rwayo hari icyapa kigaragaza ibigori.

Igikoni cya kinyarwanda cyubatswe n'amakaro gifite umukozi wabyigiye; amasafuriya ane, igikombe kimwe, ibiyiko bitandatu ,amaperete cumi narindwi, ndetse n'amasahani mirongo ine n'abiri.

Agace k'iduka kagizwe n'amakayi ,impapuro zo kubikamo amabaruwa, akabanga ka nyirangarama ,umunyu ,umuceri w'ibiricumi ,umuceri w'ibiro bitanu ,supadipe n'ibikarito.

Uruzitiro rurerure rufite amatafari akikijwe n'ibyatsi byameze ku ruzitiro, rufite icyapa cyanditseho karindwin'amagambo y'umukara yanditsweho amahoro gesiti hirozi rediroke kampasi landi rodi.

Umugi muremure wubatswe n'inzu sa n'umutuku ufite abamotari bagiye kuwucunga, ndetse hari umukobwa uhagaze wambaye ikabutura isa n'umuhondo, arimo aritegereza uburyo umumotari arimo aratwara moto ye ahetse n'umugenzi.

Inzu ndende ifite icyapa imbere yayo cyanditse ho papeteri umura umuvandimwe, gifite nimero zeru karindwi, umunani mirongo ine na kabiri mirongo itandatu na kane magana ane cumi na karindwi, gifite icyapa kigaragaza ubworozi bw'inkoko borora.

Iduka ry'umudamu ricuruza: ibirayi, karoti ,amata amandazi, ibitunguru ,imineke ,igitoki ,igisheke, ndetse n' avoka. Umunzani bafite urimo urabipima neza abakiriya bakishima.

Icyapa kinini cyane kiriho imyirondoro ivuga ngo e emuyu sapurayi inyange porodagiti gishushanyijeho amazi ya niri ndetse n'inyange amakarito y'amata.

Igipangu gifite irangi ry'umutuku, amatara y'umweru kirimo kiramurika n'ijoro mu nzu yanditseho Burinki Resitorenti iruhande rw'inzu y'umwami.

Inzu y'ubucuruzi ifite ibicuruzwa byose kawunga ,umuceri ndetse n'amandazi, igaragara ko ifunguye kandi ntagwo ifunguye kugira ngo babashe kwita ku isuku yabo aho bakorera ndetse n'abo bobahereza serivisi zitandukanye.

Icyapa kirekire kigaragaza ibikorwa rwiyemezamirimo akora, cyanditseho amagambo avuga ngo awa savice contagiti azi acomondashoni badi beresitifiding lonshi andi dina tuwarizime paking andi taransipoti, bari andi resitorenti.

Inzu nini cyane ya salo, ifite amadirishya abiri maremare, ifite icyapa cyanditsweho krediditibiliti spoti shopu, kiriho basiketi, imipira yo gukina ndetse n'iyo kwambara.

Icyapa cy'inzoga yitwa gatanu gifashe ku ruzitiro rw'biti, iruhande rwawo hariho moto ndende cyane ya gikumi, ku nzu nomero zeru gatandatu erodi, iruhande rw' intebe y'ubururu.

Inzu y'ubucuruzi ifunze n'umuryango w'icyatsi, ufite ibirango cumi na bitandatu bya banki yacu ndetse na kimwe cyanditseho irembo, ifite kashi pawa itagira igikurete cyo kuyishyiramo bisa nabi cyane, amatara yayo arimo araka.

Urucururizo runini cane rufite imyenda y'abagore iciye ndetse n'ibikapu, bote z'ubururu n'iz'umukara ,ruri mu mujyi ahagana impande ya etaje y'abamotari, ahakorerwamo radiyo efemu y'u Rwanda.

Iduka rinini rifite imiti yica udukoko ku bimera harimo roketi, ampi, imiti yica ubukoko bw'amashu, amamera ndetse n'ibishyimbo.

Inzu ifite amakaro menshi, televiziyo ndetse n'amata, irimo barerekana umupira abantu barimo barareba bishimye iruhande rwa firigo, umukiriya ategerereje hanze kugira ngo na we bamuhe uruhushya rwo kwinjira.

Inzu ndende cyane y'amatafari y'umukara, ifite ibirahuri by'amakaro, ifite ibyapa bigera kuri bine, icyapa cya mbere cyanditseho repeya, naho icya gatatu cyanditseho noteri wikorera, icya kane cyo gifite ibara ry'ubururu ryanditseho ibiro bya noteri.

Inzu irimo amaduzeni y'ibikombe asa n'umutuku ndetse n'icyatsi n'igitaka, n'amaduzeni y'amasafuriya n'amabase asa n'umukara ndetse n'umutuku wijimye, biri iruhande rw'ibikombe.

Inzu y'ubucuruzi ifite ibintu bitandukanye byo kugurisha harimo intebe, udutanda two gushyira ho ibiribwa, udutanda two gushyira mo imyanda, amagare, ingofero, ibirangiti byo kuryama mo, ibikapu byo gutwara mo imyenda runaka, po zo kwituma mo nk'abana n'ibindi....

Inzu nziza ya etaje igeretse kabiri, ifite ibara ry'umu ry'umweru n'itara ririmo riraka. Ifite ibikoresho bigurishwa, tiripulegisi ndetse n'imifuka yo gucanisha imbabura.

Icyapa cy’umweru n’umuhondo kirimo, kigaragaza ibikorwa uruganda rukora. Mu ruganda harimo inzu ndende, imodoka, ndetse n’icyapa cy’umukara ku nzu.

Inzu ndende ya etaje ifite umusekirite uyirinze. Iruhande rwayo ibumoso, hateretse moto igaragaza ko ari umumotari uyitwara. Kuko ni moto ndende ya gikumi y'abagenzi.

Icyapa kinini cyane cyanditseho Dekoratiwivusitiri cy'umweru, kirimo kiragaragaza ibintu gishobora kuba gikora: dekoresheni, twambika imyenda y'abageni dukora indabo, dufite impeta nziza, imodoka z'ubukwe, sonaturu ndetse n'ibindi.

Igiti kirekire cy'umusave kiriho ibikomo bigera kuri cumi na bine, igikomo cy'umukara, igikomo kivanzemo ubururu n'umukara, igikomo cy'umweru, igikomo cy'icyatsi, igikomo cy'ikigina, igikomo kirekire gisa n'ibara ry'umutuku, imbere yinzu y'ingoro y'umwami.

Amazu y'ubucuruzi gatandatu asa n'umweru n'imwe isa n'igitaka. Ifite imiryango imbere yaho hamanitseho maneke zambaye amakanzu, y'umutuku n'indi yambaye ikanzu y'umukara.

Umugabo urimo araganira na mugenzi we wambaye rakosite y'icyatsi, we yambaye igitaka, arimo aramupimira inkoni ndende ashaka kujya gukubitisha umugore we, n'ameza maremare ashaka kujya guha umwana we washatse.

Umunyonzi urimo uratwara igare impande y'inzu enye z'ubucuruzi, ahaparitse imodoka ku nzu ifite ibyapa bigaragaza ibintu bakora ndetse n'umuriro w'amashanyarazi na anteni ya televiziyo.

Umwana w'umuhungu wambaye inkweto nziza, ishati ya karokaro, ipantaro y'umukara, wifotoreje ahantu bigaragara ko ari muri hoteri hari ibyatsi byiza bisa n'icyatsi, ibyatsi bitoshe, bigaragara ko uyu mwana yari aberewe cyane.

Inzu ndende ifite uruzitiro rw'amatafari ahiye, n'indabo nyinshi cyane umugabo arimo arakata izo ndabo kugira ngo zitazaba nyinshi, iyo nzu ifite amatente yo kwakirira mo ubukwe.

Isoko rirerire rifite abaguzi benshi barimo baracuruza imyenda ya caguwa bayiteretse hasi , abandi barimo baracuruza inkweto ndetse n'imyenda yo kwambara , rigizwe n'abakecuru benshi cyane.

Iduka rinini cyane, riri mu nyubako, rifite ibitambaro byinshi bitandukanye, harimo popoline, magaze ndetse n'ibitenge, rifite imashini zidoda imyenda, mu gihe umukiriya aguze igitambaro akumva ashaka kucyambara.

Isoko ry'ibiribwa byo kurya amashaza, amamesa ndetse n'itsinda. Ririmo rirarema rifite abantu benshi, aho buri gisima cyubatswe n'amatafari ahiye ya ruriba ikindi gisima kikaba cyubatswe n'amatafari adahiye.

Imifuka ya kirojana iteretse mu nzu ifite agatada gakozwe mu biti. Umufuka umwe usa n'umweru, undi mufuka usa n'igitaka. Bifite ikoti ribikikije rya nyiri inzu.

Inzu nini irimo ubukorikori butandukanye ,harimo ibyibo bine bifite imikondo miremire n'imifuniko yabyo ,hakabamo imbabura za kinyarwanda zo gutekaho mu gihe cy'imvura.

Iduka rinini cyane rifite inkweto za caguwa sipuresi zizamuye ndetse na congo zimanuye, rifite imbaho nyinshi umuntu ashobora gushiraho inkweto ndetse n'amasogisi, mu gihe arimo aracuruza ategereje abakiriya.

Inyubako nziza iri ahantu hashimishije igizwe ibirahuri amatafari, abantu, ikigega, bigaragare ko ibi bintu ari byiza cyane. Amatara...

Amatereyi agera kuri mirongo irindwi n'ane afite amagi hejuru hasi ntayo ,ari impande y'ibiraro by'inkwavu bishobora kubakirwamo inkwavu zigera kuri cumi n'irindwi, umuntu ari iruhande rwayo afite umufuka awiteze.

Iduka ricuruza ibicuruzwa bitandukanye, harimo ibikoreshwa mu gikoni amasahani ndetse n'amasafuriya n'ibikombe, ryatangiye gukora ibihuje n'ibikoreshwa mu gihe cy'ubutabazi.

Kanta zitandukanye, kanta ya mbere iriho umunzani urimo urapima ibiro, kanta ya kabiri yanditseho "blake heya shampo", kanta ya gatatu yanditseho "supa kanta", zose zifite abagore beza barimo baramurika ibikorwa byabo.

Isoko ry'abantu n'ibintu ririmo riracuruza imyenda ya caguha n'inkweto za caguha ku mahema, aho abantu benshi barimo barahaha bakoresheje amafaranga makeya cyane.

Ibirayi byinshi cyane bya mbumbe biri mu nzu ikoreshejwe ferabeto, ndetse biri mu matsinda atandukanye harimo ibirayi bikuriweho, ibidobo byo kurongesha ibirayi n'ibindi bikoresho.

Abaturage bacuruza ku dutaro bategereje ababagurira inyanya, intoryi ndetse n'ubunyobwa, bose bashigatiye abana, bategereje bihanganye bafite n'akaniga kenshi.

Isoko rirerire rya Shyorongi rifite amazu y'umuhondo gusa nta n'irindi ba range ryivanzemo, barimo baracuruza ibijumba by'imifungo. Iruhande rw'imeza nta n'umwe urimo arareba icyo mugenzi we akora.

Abacuruzi b'abagore barimo barishimira iterambere bagezeho mu bucuruzi bwaho aho babiri barimo baraseka undi afite indobo y'amandazi abandi icumi bafite ubujerekani bagiye gushaka inzoga z'umunsi mukuru.